Abagore n'abagabo bari mu nyubako bicaye ku ntebe. Imbere yabo hari ameza ariho amatelefone yabo, amazi yo kunywa, n'indabo, n'amabendera abiri. Harimo n'iry'igihugu cy' u Rwanda.

Abagore n'abagabo bicaye mu ntebe nziza bambaye neza, bamwe imbere yabo hari amakayi n'amakaramu bari kwandika bafite n'indangururamajwi.

Sare irimo abagore n'abagabo bicaye mu ntebe bakoze uruziga, imbere yabo hari ameza ariho amazi, mpapuro, amaterefone na za mudasobwa, bose bari kureba imbere, bakurikiye umuntu uri kuvuga.

Abantu benshi batandukanye, harimo abagore n'abagabo, bicaye muri sale bamwe bafite impapuro imbere yabo bari kwandika, abandi imbere yabo hari ameza ariho amazi yo kunywa n'impapuro zo kwandikaho.

Urubyiruko rw'abakobwa bambaye imipira y'ubururu iriho ibendera ry'igihugu cy' u Rwanda, baricaye imbere yabo hari amazi yo kunywa.

Sale irimo abantu batari benshi bicaye bakoze uruziga bicaye barebana imbere ya buri muntu hari indangururamajwi, imbere yabo hateretse amazi yo kunywa.

Abagore n'abagabo bambaye neza, bicaye mu ntebe, imbere yabo hari abayobozi bambaye amarinete, imbere yabo hari amazi yo kunywa n'indangururamajwi na mudasobwa bari gukoresha.

Amatente yubatse ndetse anadekoye ku ruhande, yicayemo abantu benshi cyane batandukanye abagore, abagabo, imbere yabo hari umugore uri ku gatuti, hari impapuro afite n'indangururamajwi ari kubabwira bamuteze amatwi.

Abagore n'abagabo batandukanye bicaye ku ntebe zisa n'umukara bakoze uruziga, imbere yabo hari ameza ariho amazi yo kunywa na mudasobwa, ku gikuta hari icyapa cyanditseho RURA.

Ofise irimo abagabo batatu bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hari ameza babiri bafite mikoro imbere yabo.

Abantu benshi bateraniye muri sale bicaye mu ntebe, imbere yabo hari mudasobwa n'amazi yo kunywa na ajenda.

Abagore n'abagabo bicaye mu nyubako imbere yabo hari ameza ateretseho amazi yo kunywa, bamwe muri bo bafite ajenda na mudasobwa, bamwe bari kureba imbere abandi bari kureba muri terefone zabo.

Abantu bane harimo abagore babiri n'abagabo babiri, abirabura ni batatu n'umuzungu umwe bafite amakaramu mu ntoki bari kwandika.

Abagore n'abagabo bari muri sare bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara imbere ya bamwe hari mudasobwa n'amazi yo kunywa, ku ruhande rwo hepfo hariho umwe usa nk'ubayoboye.

Abantu barimo imbere muri sale baricaye imbere y'abo hari ameza ateretseho amazi yo kunywa, imbere y'abo hahagaze umugabo ufite indangururamajwi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bicaye muri sare, bambaye imipira y'ubururu yanditseho izina ry'ikigo cyabo n'amapantaro ya kaki, imbere yabo hari umuyobozi, ku ruhande rwe hari abarimu bambaye imyenda y'akazi.

Sale irimo abantu benshi, abagore n'abakobwa, bicaye ku ntebe zidekoyeho ibitambaro by'umweru n'ameza, imbere yabo hari amazi yo kunywa, bose bari kureba imbere, bakurikiye umuntu uri kubabwira.

Abantu benshi batandukanye, bicaye ahantu hadekoye, imbere yabo hari jaride iteyemo igiti, ihagazemo abagore n'abagabo, abasaza n'abakecuru, harimo umugore ufite mikorofone mu ntoki.

Abagore n'abagabo bateraniye ahantu hamwe hadekoye ibitambaro byiza, hasi hari tapi zisa ni'cyatsi, bicaye ku ntebe zitandukanye, imbere ya buri wese, hari ameza ariho amazi yo kunywa.

Urubyiruko rw'u Rwanda abakobwa n'abasore bicaye muri sare imwe, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye harimo ubururu, icyatsi n'umuhondo hagati yabo hari umutoza bateze amatwi ibyo ari kubabwira.

Imbonerahamwe yibyavuye mu bushakashatsi bwa RGS, bwa cumi na rimwe. Igizwe n'inkingi n'ibipimo. Harimo umutekano, iyubahirizwa ry'amategeko, uburenganzira mu bya politike n'ubwisanzure bw'abaturage, gukorera mu mucyo no kurwanya ruswa.

Itangazo ryo gushaka umukozi wo gutwara imodoka mu gihugu cya tanzaniya mu mujyi wa darisarama, ririho ibisabwa kugirango ngo uhabwe ako kazi n'ibikeneye koherezwa gusaba ako kazi, bizarangirarira kuri cumi n'eshanu z'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri na kane.

Abanyeshuri b'abirabura bicaye mu ishuri bambaye yunifomu zisa, bamwe barengejeho imipira y'imbeho isa n'umukara bafite laputopu imbere yabo.

Abantu bane harimo abagabo batatu n'umugore umwe bahagaze imbere y'inyubako, babiri bafite terefone mu ntoki umwe w'umusore yambaye ijire n'ingofero by'akazi.

Uko wakwishyura mituweri ukoresheje Irembo, kode ni akanyeri magana cyenda n'icyenda urwego cyangwa ugasura urubuga Irembo govu, ufite telefone na mudasobwa.

Umugabo w'umwirabura yambaye umupira w'umweru na marinete, afite indangururamajwi mu ntoki, yicaye ku ntebe; imbere ye hari ameza ariho amazi yo kunywa na telefone, ari kwerekana uko wakoresha serivisi z'irembo ukanze akayenyeri magana cyenda n'icyenda urwego.

Umugabo w’umwirabura ufite ubwanwa, yambaye amarinette n’igofero y’umwenda, yambaye na jile y’umukara, imbere ye hari laptop ari kuyikoresha.

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, kiramenyesha ko uyu munsi ari umunsi wa nyuma wo kumenyekanisha no kwishyura igihembwe cya kane cy'ipatante. Kanda akanyenyeri magana inani urwego cyangwa usure urubuga rwa www.rra.gov.rw ukurikize amabwiriza.

Konte kuri mifotara igaragaza aho gushyiramo imeri na pasiwadi nuko wahindura pasiwadi kugirango winjiremo .

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda kiramenyesha ko hasigaye iminsi itanu yo gusaba no kwishyura imisoro.

Umunara muremure wubatse ku ruhande hanyura insinga zitwara amashanyarazi, hirya hateye ibiti bitandukanye.

Umukobwa w'umwirabura usa inzobe yambaye amaherena, afite imisatsi iboshye. Imbere ye hari amazi na mudasobwa ari kuyikoresha.

Itangazo ryanditse ryatanzwe n'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, kimenyesha ko hasigaye iminsi itatu yo kudekarara no kwishyura imisoro.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, kiramenyesha ko uyu munsi ari umunsi wa nyuma wo kwishyura ndetse no kwemeza. Emeza, unishyure icyemezo cy'ubucuruzi, kugira ngo wirinde ingaruka.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoro n'amahoro mu Rwanda, kiri kwerekana uko wamenyekanisha umusoro ku nyungu ukoresheje terefone yawe, ukanze akanyenyeri magana inani urwego ugakurikiza amabwiriza.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda kirerekana uburyo serivisi zitangwa hakoreshejwe ikoranabuhanga harimo gukoresha telefone na za mudasobwa.

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere ryanditse, hirya hari inzu nini igeretse, igaragaza aho icyo kigo gikorera.

Itangazo ryanditse ryatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, kiramenyesha ko hasigaye umunsi umwe wo kudekarara no kwishyura imisoro.

Umuhanda w'ibinyabiziga ufatanya n'uw'abanyamaguru ku muhanda w'abanyamaguru harimo abana bari kugenda hirya y'umuhanda w'abanyamaguru hamanitse icyapa cyamamaza.

Abagabo babiri bahagaze umwe ni umwirabura, undi ni umuzungu, umwirabura yambaye ingofero, umuzungu ntayo yambaye. Inyuma yabo hari ameza ateretseho mudasobwa.

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, kirabwira umuntu wese ufite inzu ye cyangwa ifamu ku giti cye, ko agomba kudekarara umusoro ku mitungo cyangwa se umusoro ku nyungu y'ubukode uyu munsi, akanishyura bitarenze kuwa gatatu ku itariki makumyabiri n'icyenda z'ukwa kabiri bibiri na makumyabiri na kane, akanishyura akoresheje mobile money cyangwa mobi.

Abagore b'abirabura bambaye udupfukamunwa bamwe bambaye amaherena buri wese afite telefone mu ntoki igaragaramo amashusho.

Itangazo ryanditse rya minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo rimenyesha amasaha y'akazi mashya, azatangira gukurikizwa kuwa mutarama, bibiri na makumyabiri na gatatu.

Itangazo ryanditse ry'ikigo cy'Igihugu gishinzwe imisoro mu Rwanda kiramenyesha ko itariki ntarengwa yo kwishyura avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu ari mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri, bibiri na makumyabiri na kane.

Umunara wubatse, muremure, uri ahantu hari ,ibiti n'imyaka, harimo insina, zeraho ibitoki.

Abasore bahagaze imbere y'inyubako bamwe bafite mudasobwa mu ntoki na terefone mu ntoki bose bambaye udupfukamunwa.

Ihema ryubatse ris’umweru, m’imbere harimo abantu bane bicaye ahantu hatandukanye, babiri bari ku ntebe imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro na laptop na terefone.

Inzu ya etaje iri kubakwa; ku ruhande hari inyubako imanitseho icyapa; imbere yayo hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi.

Imodoka nini ifite ibara ry'umweru, mu kirere insinga nyinshi zitwara umuriro w'amashanyarazi mu bice byinshi bitandukanye.

Umuhanda ukoze neza hirya yawo hari icyapa cyanditseho ikigo cy'igihugu gishinzwe umuriro mu Rwanda, ku ruhande hari amapironi.

Inzu ifite igipangu kiri ku muhanda gifite amatara hejuru yacyo mu imbere hateyemo insina inyuma hateyeho ururabo n'ibyatsi.

Inyubako itangirwamo serivise, imbere yayo hari imodoka ziparitse n'abantu bahagaze n'amagare, hepfo hari jaride iteyemo indabo n'ibiti n'amatara.

Ibyatsi biteye ku butaka hashinze taransifa y'amashanyarazi, ku ruhande hari amabati atambitse, ndetse n'ibiti bitandukanye.

Inzu ifite urugo rumanitseho icyapa cyamamaza, hirya yarwo hari umuntu uhagaze iruhande rw'ipoto ritwara amashanyarazi.

Amapoto ashinze ku muhanda ariho insinga ziyobora amashanyarazi ahantu hatandukanye, ku ruhande hari inzu imanitseho ibyapa byamamaza.

Umunara muremure uzana amarezo hirya yawo hari urugo rwubakishije amatafari ahiye rufite n'indabo hejuru yarwo.

Icyapa cyo ku muhanda kimenyesha n'ikimanitse cyamamaza amatara n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ahantu hatandukanye .

Inzu ifite urugo rwubakishije amadafari y'impunyu, amadirishya y'umutuku, imbere y'urwo rugo hari ipoto itwara umuriro ahantu hatandukanye.

Abantu b'ingeri zitandukanye barahagaze bari kwifotoza harimo; umugore, harimo umukobwa, ndetse abasigaye n'abagabo bambaye amakositimu. Inyuma yabo hari icyapa cy'ikigo cy'igihugu cy'ubwisungane mu kwivuza.

Ipironi rishinze ahantu rishamitseho insinga nyinshi zitwara umuriro w'amashanyarazi ahantu henshi hatandukanye.

Inyubako itangirwamo serivisi igaragara mo imbere, hirya muri koridori hahagazemo umuntu ufite igikapu mu ntoki.

Inyubako ya etaje y'ibitaro bikuru by'Umwami Fayizali, imbere yabyo hamanitse ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda n'abakozi bashinzwe gukora amasuku, bambaye imyenda y'ubururu n'abaturage bari kugenda gusaba serivise mu bitaro.

Umuhanda w'ibinyabiziga, hagati hateyemo ibiti na jaride, ku ruhande haparitse imodoka na moto, hirya hari inzu y'ababyeyi yitwa materinite.

Imodoka nyinshi zitwa ambiranse zagenewe gutwara abarwayi barembye kwa muganga, ziparitse ahantu hamwe mu gipangu.

Umwana ubana n'ubumuga bw'amaguru yicaye mu kagare kamugenewe, imbere ye hari jaride iteyemo ibiti n'inzira y'abanyamaguru.

Ofisi irimo abantu batatu bambaye amataburiya, buri wese yicaye ku ntebe ye imbere ye hari mudasobwa ari gukoresha.

Umuhanda urimo imodoka ebyiri, z'ubwoko bubiri, imwe yitwa toyota, indi itwara abarwayi.

Hoteri yitwa Regasi hoteri aho iherereye ikaba ifite amarangi y'umuhondo ndetse avanze na y'umweru, ikaba iri ahantu heza cyane ku muhanda hari amahumbezi hateye n'ibiti bishobora gutanga akayaga.

imodoka yitwa ambirance yagenewe gutwara abarwayi batandukanye barembye cyane kwa muganga yo ku bitaro bya masaka iparitse imbere y'ibitaro bitangirwamo serivisi zo kuvura abarwayi imbere yabyo hari abakozi bakora amasuku.

Ibitaro bitangirwamo serivisi zo kuvura abarwayi, imbere yabyo muri parikingi haparitsemo imodoka zitandukanye, imwe yagenewe gutwara abagenzi izindi ebyiri z'ubwoko bwa ambiranse zagenewe gutwara abarembye cyane kwa muganga.

Imodoka isa n'umweru iparitse, ku ruhande hari umugabo w'umwirabura, ari kugenda agana ku bwogero bwo gukaraba intoki, ku ruhande hari ikigega giteretse hejuru.

Umuhanda urimo imodoka nyinshi, ku ruhande rwawo hari icyapa cyanditseho CHUB, ibitaro bikuru by'Akarere ka Huye, hirya yacyo haparitse imodoka nyinshi zitandukanye imbere y'inyubako.

Umugabo w'umwirabura ugaragara igice cyo hejuru yambaye ishati na karuvati y'umukara inyuma yambaye ikanzu y'abacamanza.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe munsi yigiti, bamwe baricaye abandi barahagaze, imbere yabo hicaye abandi bane mu ntebe.

Abagororwa benshi bambaye imyenda y'iroza bari kugenda biganjemo abagabo, bafite ibikoresho mu ntoki :amasuka, ibitiyo ,amasahani n'ingorofani bari gusunika bamwe na bamwe.

Umugabo w’umwirabura ugaragara igice cyo hejuru yambaye ishati na karuvati, inyuma yarengejeho ikote ris’umutuku.

Umugororwa wambaye inifomo n'agapfukamunwa, imbere ye hari indangururamajwi na mudasobwa, ku ruhande rwe hari umugore uboshye imisatsi wambaye amaherena n'agapfukamunwa n'ikanzu y'abacamanza isa umukara n'umweru.

Ahantu hateraniye abantu benshi abagore n'abagabo ndetse n'abana, harimo n'abagororwa umwe mu bagororwa ari imbere y'abaturage asa nkaho ari kubabwira.

Abagabo babiri bambaye imyenda y abacamanza nabagore babiri bambaye imyenda yabzgororwa bahagaze mu nzu mu imbere umucamanza umwe afite igitabo mu ntoki.

Inyubako ndende ya etaje imbere yayo hari abacungagereza bari kumwe n'abagororwa, bambaye amapingu n'udupfukamunwa.

Abapolisi bambaye impuzankano babiri bafasha umugore umwe afashe akaboko k'ibumoso undi afashe akaboko k'iburyo ku ruhande rwabo hari umucamanza ufite ibitabo mu ntoki.

Abantu benshi bicaye mo imbere muri sare harimo abagore n'abagabo imbere yabo hari amabendera y'igihugu cy'u Rwanda n'abandi bane bambaye imyenda isa.

Abaturage bateraniye ahantu hamwe mu nzu, imbere yabo hari umugabo wambaye imyenda y'abagororwa, afite igitabo mu ntoki kirambuye.

Umugore w'umwirabura ugaragara igice cyo hejuru yambaye amarinete, afite imisatsi iboshye, n'ingofero mu mutwe n'umukufi mu ijosi.

Umugororwa wambaye inifomo, n'amapingu, n'agapfukamunwa; arikumwe n'umucungagereza ku ruhande rwabo hateye indabo.

Abantu babiri b'abirabura umugore n'umugabo bicaye ku ntebe imbere ya buri wese hari mudasobwa, bambaye nudupfukamunwa.

Umugabo w'umwirabura wambaye amarinete, ikote, n'ishati mo imbere na karuvati ndetse na baji, bigaragara ko ari umuyobozi, ahagaze imbere ku gatuti imbere ye hari mikorofone ari kuvuga, bisa nk'aho ari kubwira abantu.

Umugabo w'umuzungu wambaye amarinete; n'ishati iriho ikirangantego cy'abashinzwe umutekano; afashe umwirabura ufite amapingu ku maboko.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ari kumwe n'abandi bayobozi, barahagaze, bamwe bambaye amakote, abandi bambaye amakanzu y'umutuku n'ingofero z'umweru, inyuma yabo hari amabendera abiri y'igihugu cy'u Rwanda.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru n'amarinete, ari gusuhuza mu kiganza umudamu wicaye wambaye ikanzu y'umutuku n'ingofero ye irimo amabara umuhondo n'umukara.

Ifoto ngufi yo hejuru igaragaza umugabo wu mwirabura utari guseka wambaye imyenda ifite amabara atandukanye umutuku umweru nibara risa ivu

Umugororwa umwe n'abacamanza batatu abagore babiri ngabo umwe, abacamanza babiri barahagaze n'umugororwa ahagaze hagati yabo.

Umucamanza wambaye umwambaro w'akazi afite igitabo mu ntoki kirambuye arikumwe n'umugororwa w'umugore nundi mugabo w'umuzungu.

Inyubako ya leta ndende yubakishije amatafari y'impunyu, hasizeho n'amarangi handitseho gereza ya Rubavu.

Umugororwa w'umugabo wambaye iniforomo zabo, ikabutura n'ishati, agapfukamunwa, afite ibitabo mu ntoki bifite ibara ry'ubururu, inyuma ye hari ameza arambitseho mikorofone zitandukanye.

Abaturage benshi bateraniye ahantu hateye ibiti, bamwe bicaye ku ntebe abandi bicaye hasi mu byatsi, imbere yabo hahagaze umugabo umwe.

Ibikoresho byagenewe kuzimya inkongi y'umuriro, biri ahantu hamwe ni byinshi ntago bingana mu burebure hari ndende n'gufi kumunwa wazo zimwe zisa n'umuhondo izindi zigasa n'umutuku.

Ibikoresho bibiri bifite ibara ry'umutuku, byagenewe gukoreshwa ahantu hatutswe n'inkongi y'umuriro bigakoreshwa mu kuwuzimya, bizwi ku izina nka kizimyamwoto biri mu nzu birateretse.

Umupolisi uhagaze ku ruhande, imbere ye hari umuhanda w'ibinyabiziga urimo moto itwaye abantu babiri, iruhande rw'iyo moto hari icyapa cyo ku muhanda.

Abashinzwe umutekano wo mu gihugu cy'u Rwanda bitwa abapolisi, bambaye impuzankano zabo n'ingofero na rugaryi zisa umukara, bafite n'imbunda mu ntoki bose barahagaze.

Umugore w'umwirabura yambaye masike, ari gutwikira isafuriya iteretse kuri gaze y'umutuku, ari kumwe n'umupolisi wambaye yunifomu, inyuma ye hari abantu benshi abagore n'abagabo, n'umugabo umwe wambaye itaburiya.

Imodoka ya polisi ifite ibara ry'umweru n'amatara hejuru asa ubururu n'umutuku, iparitse ku mapave, ku ruhande hari indi modoka.

Mo imbere mu nzu, ku bikuta hariho ibikoresho byifashishwa bazimya inkongi y'umuriro bisa n'umutuku n'umweru.

Abaturage barimo abagore n'abagabo; batonze umurongo muri jaride iteyemo indabo imbere y'inyubako.

Abantu benshi batandukanye bicaye ahantu hadekoye, ibitambaro bifite amabara y'idarapo rya FPR ariyo umutuku n'umweru, n'ubururu, imbere yabo hahagaze Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, afite micro phone ari kuvuga.

Mu gihe cyo kwiyamamaza kuba perezida umukandida wa FPPR Paul Kagame, yambaye umwambaro w'umuryango ari gusuhuza abaturage, ni benshi bose bazamuye amabendera yabo.

Abagabo b'abirabura barahagaze, n'umugore umwe, inyuma ye hari umuporisi, bose nta kintu bari kuvuga.

Umugore w'umwirabura wambaye ishati y'umweru iriho esinye, yicaye ku ntebe ikozwe mu mufariso, imbere ye hari mudasobwa n'indangururamajwi.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe harimo abagore n'abagabo bambaye neza bicaye mu ntebe imbere yabo hari ameza ateretse aho amazi yo kunywa, imbere hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru na karuvati afite agaseke.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari kumwe n'abandi bayobozi b'inzego zitandukanye zo mu Rwanda bambaye amabaji harimo n'umusaza Tito Rutaremara.

Ahantu hateguye neza, hari abaturage benshi bafite amadarapo ya FPR n'amafoto y'umukandida, imbere yabo hari umukandida wa FPR.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yicaye ku ntebe y'umukara, ku ruhande rwe rw'iburyo hari umudamu, inyuma ye hari abandi bantu babiri.

Abantu benshi biganjemo igitsina gore n'igitsina gabo bahagaze mu nzira y'abanyamaguru, batonze imirongo ibiri itandukanye, Hirya y'aho bahagaze hateye ibiti byinshi bitandukanye.

Umukandida wa Efuperi Inkotanyi ari mu modoka ari kumwe n'abasirikare bamurinze ndetse n'abapolisi, ari gusuhuza abaturage baje batandukanye, abaturage na bo bamanitse amabendera y'umuryango wa Efuperi Inkotanyi bishimye.

Umugore w'umwirabura ugaragara igice cyo hejuru; yambaye amarinete, afite umusatsi w'umukara, yicaye mu ntebe isa umweru.

Minisitiri w'urubyiruko Dr Utumatwishima Jean ari imbere yambaye ishati, ikote na karuvati imbere ye hari indangururamajwi yamanitse n'akaboko asa nk'uri kurahira.

Abayisiramukazi, bambaye amakanzu y'umweru, n'imyitero y'umutuku, bafite amadarapo FPR mu ntoki bayamanitse.

Umugabo w'umwirabura yambaye ikoti, ishati na karuvati, yicaye mu ntebe isa umukara imbere ye hari amazi yo kunywa.

Umukandida wa Efuperi Paul Kagame ari kwiyamamaza mu baturage bo mu Rwanda, abaturage bishimye bazamuye amabendera y'idarapo rya Efuperi rifite ibara umutuku, umweru n'ubururu.

Imodoka ebyiri ziri mu muhanda w'ibinyabiziga, imwe itwaye ibintu bitwikirijwe na shitingi ifite ibara ry'ubururu. Indi ni ntoya ifite purake ya RL kabiri, icyenda, kabiri, umunani. Inyuma yayo hahagaze umugabo.

Imodoka itwara ibintu yo mu bwoko bwa hoho, iri mu muhanda iri kugenda, mo imbere hicayemo shoferi n'undi muntu umwicaye ku ruhande, hirya hari umunyonzi uri ku igare hagaragara igice k'inyuma.

Umuhanda w'ibinyabiziga urimo imodoka nini itwara ibintu, n'intoya zigenga zitwara abagenzi, na moto ihetse umugenzi, ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru irimo umuntu wikoreye umuzigo, ari kugenda.

Imodoka nini kandi ndende yagenewe gutwara ibicuruzwa, ifite ibara ry'umutuku itwaye ibintu bitwikirijwe ihema, iri mu muhanda iri kugenda, ku ruhande hari ibiti byinshi bitandukanye n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda urimo imodoka ya kwasteri itwara abagenzi na moto, ebyiri imwe itwaye abantu babiri indi iriho umumotari gusa.

Imodoka nini itwara abagenzi, ifite amabara atandukanye harimo ubururu, umweru n'umukara, yanditseho amagambo yamamaza iri hagati mu muhanda w'ibinyabiziga.

Umuhanda w'ibinyabiziga urimo imodoka ebyiri intoya n'inini, ku ruhande ku nzira y'abanyamaguru harimo umugabo uri kugenda muri iyo nzira.

Imodoka itwara ibintu iri mumuhanda ihetse umuzigo uhambiriye neza hejuru yawo hicaye umugabo w'umwirabura wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara.

Umuhanda w'ibinyabiziga urimo imodoka iri kugenda isa n'ubururu iburyo bwawo hari umuyoboro w'amazi ibumoso bwawo hari inzira y'abanyamaguru irimo abantu bari kugenda.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye byo mu bwoko bwa moto moto imwe iriho umumotari uhetse umukobwa indi moto itwara imizigo ndetse hari n'indi moto igaragara igice kimwe cy'imbere.

Imihanda ibiri itandukanye, irimo ibinyabiziga: imodoka, moto; hagati yayo harimo aho iyo mihanda itandukanira, hashinzemo icyapa n'itara.

Umuhanda w'ibinyabiziga urimo moto eshatu ziri kugenda, ku ruhande hari amatara, hirya hari igipangu giteyemo ibiti bitandukanye, kirimo n'amapoto ariho insinga zitwara amashanyarazi.

Umuhanda urimo ibinyabiziga, moto, amagare ahetse n'abanyamaguru bari kugenda ku ruhande rwawo hari moto ziparitse n'amapoto y'ama...

Umuhanda w'ibinyabiziga urimo imodoka nini yagenewe gutwara ibintu iri kugenda, ifite ibara ry'icyatsi n'umutuku, ku ruhande rwawo hari amatara n'ibiti byinshi bitandukanye, bihateye.

Imodoka itwara ibintu iri mu muhanda ibumoso bwayo hari umumotari uri kuri moto, iburyo bwayo hari umunyamaguru uri kugenda.

Imodoka nyinshi ziparitse n'izindi ziri kugenda mu muhanda hagati hahagazemo abantu abandi bari kugenda.

Umuhanda w'ibinyabiziga, urimo imodoka nini iri kugenda, imbere hari moto, ku ruhande hari amatara menshi n'ibiti.

Imodoka yagenewe gutwara amatungo nk'inka, ihene n'ingurube iri mu muhanda ku ruhande rwayo hari abanyamaguru babiri bari kugenda.

Aho imodoka zihurira hari abantu benshi, inyuma y'aho imodoka zihurira hari inyubako nziza ziri kwakamo amatara atandukanye, imbere yaho hari umuyoboro w'amazi n'amapine y'imodoka zashaje.

Umuhanda w'ibinyabiziga urimo imodoka itwara ibintu iri kugenda, hirya hari igare ry'abanyonzi n'irya siporo.

Umuhanda w'ibinyabiziga urimo imodoka ifite ibara ry'umweru yitwa kwasiteri iri kugenda, ku ruhande hari umuyoboro w'amazi, hepfo hari inzira y'abanyamaguru irimo umuntu w'igitsina gabo ari kugenda.

Umuhanda w'ibinyabiziga urimo imodoka ndetse na moto, muri izo modoka harimo imwe yagenewe gutwara ibintu ihetse imifuka myinshi ipakiyemo ibintu, ku ruhande hari amatara n'ibiti.

Imodoka nini zitwara abagenzi ziri mumuhanda zijya ahantu hatandukanye, hagati hari abanyamaguru bari kugenda, hirya hari aho abategereje ikinyabiziga bicara.

Umuhanda w'ibinyabiziga urimo imodoka na moto biri kugenda, ku ruhande hari moto nyinshi ziparitse ziriho n'abamotari, hirya hari ibiti bifite indabo.

Umuhanda w'ibinyabiziga urimo umumotari uhetse umugenzi bari kugenda, hirya hari jaride iteyemo ibiti byagenewe guterwamo n'amatara yo kumuhanda n'indabo zitandukanye.

Imodoka itwara abagenzi iri mumuhanda icanye amatara mu muhanda harimo abanyamaguru bari kugenda n'amaguru hirya hari amatara.

Umuhanda w'ibinyabiziga, urimo imodoka y'ubwoko bwa kwasiteri ifite ibara ry'umweru, ku ruhande hari amagare ariho abantu, n'inyubako zikorerwamo ubucuruzi, n'ipoto zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda uri imbere y'inyubako, hari kugendamo imodoka n'abanyamaguru bari kwambuka, harimo ikinyabiziga gikozwe mu biti gitwara imizigo.

Imodoka iri mu bwoko bw'imodoka butwara ibintu; iri kugenda mu muhanda itwaye amatungo arimo inka zifite amabara atandukanye; ku ruhande rw'uwo muhanda hateye ibiti bitandukanye.

Inyubako za leta zubatse iburyo n'ibumoso hagati y'izo nyubako harimo umuhanda w'abanyamaguru ndetse harimo n'abanyamaguru bagenda mu byerekezo bitandukanye, ku ruhande rw'umuhanda ndetse no hagati hateyemo ibiti bitandukanye.

Ikibuga bakiniramo umukino wa basiketi, hirya yacyo hari jaride iteyemo ibiti binini yicayemo abantu munsi y'igiti.

Igishushanyo cy'icyapa cyo ku muhanda gifite amabara atatu atandukanye umuhondo, umukara n'umutuku ayo mabara afite imiterere itandukanye.

Umuhanda w'ibinyabiziga uri hagati y'ahantu hadatuwe hari ibiti hamanitse n'ibyapa bitandukanye, hariho ikiranga Akarere ka Rusizi n'amatara yo ku muhanda n'ibindi.

Umuhanda w'ibinyabiziga n'uw'abanyamaguru, uhagazemo abantu benshi ku ruhande hari amatara, amapoto, n'icyapa cyanditseho akanyaru Huye.

Icyapa kiranga ahantu kirerekana akarere ka Karongi, mu muhanda w'ibinyabiziga n'uw'abanyamaguru n'amatara yo ku muhanda.

Icyapa cyo ku muhanda gifite shepu ya tiriyango n'amabara umutuku n'umweru hagati harimo abana babiri bafatanye akaboko kigaragaza ko imodoka igeze aho abanyamaguru bambukira.

Inyubako itangirwamo serivise z'irembo, umuhanda w'ibinyabiziga urimo moto ziri kugenda, n'uw'abanyamaguru n'aho bambukira, ibyapa byo ku muhanda n'amatara.

Urugo rwubakishije amadafari y'impunyu hejuru hariho senyenge, rukikije inyubako isa umweru inyuma yarwo hateye ibiti n'ibyatsi.

Ibigori bihinze mu murima n'insina ndetse n'ibiti hakurya, hari agace kubabatsemo amazu meza, ayiganjemo yubatse kimwe.

Inzu nini yubakishije amatafari yimpunyu n'amabati ya dumozaza yumutuku, inyuma yayo hari izindi ebyiri ndende imwe isa umweru indi isa n'ivu.

Inyubako nini ya etaje, yubatse neza, kuruhande rwayo hari icyapa cyanditseho Nyarutarama, imbere yayo hari umuhanda w'ibinyabiziga, urimo imodoka ngufi iri mu muhanda iri kugenda.

Umuhanda w'ibinyabiziga urimo imodoka nyinshi ziri kugenda na moto itwaye umugenzi, hirya yawo hari inyubako ya etaje ndende, imbere yayo haparitse imodoka nyinshi.

Icyapa kiranga aho wakura ikawa y'umwimerere mu Rwanda, nimero wahamagara na webusayite wasura.

Umuhanda w'ibinyabiziga urimo umuntu uri kwambuka, hirya yawo hari inyubako igeretse imanitseho ibyapa byamamaza, imbere yayo haparitse moto n'imodoka.

Umuhanda w'ibinyabiziga, iburyo bw'uwo muhanda hari inyubako ya etaje igeretse, uruhande rw'iyo nyubako, hateye ibiti n'ibyatsi. Ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda hari ibiti by'icyatsi bitandukanye.

Inzu nziza ifite igipangu, imbere yayo hateye indabo, ku ruhande hari ibiti bitandukanye n'umuyoboro w'amashanyarazi.

Inyubako ndende ya etaje ifite imiryango myinshi imanitseho icyapa cyanditseho forutebeti viyayipi Gisimenti.

Umuhanda w'igitaka imbere yawo, hari inyubako, ifite igipangu kimanitseho icyapa gatanu.

Inzu nini ya etaje yanditseho stay apartment, munsi habambyeho ibyapa byanditseho amagambo imbere hateye indabo.

Inyubako igeretse imbere yayo har’imodoka iparitse, n'umunyonzi ufite igare, n’ibyapa byo kumuhanda. K’uruhande har’indabo n'ibiti.

Inyubako ndende ya etaje ifite ibyumba byinshi n'imiryango myinshi, imbere yiyo nyubako hari ahacururizwa lisansi y'imodoka.

Umuhanda w'abanyamaguru uri hagati y'amazu y'ubucuruzi n'ayo kubamo, hagati mu muhanda harimo abamotari bari kuri moto n'abanyamaguru bari kugenda. Imbere y'inzu z'ubucuruzi harimo ibikoresho byo mu rugo; intebe, indobo n'amabase.

Umuhanda w'ibinyabiziga ufite aho abanyamaguru bambukira, hagati hateye jaride n'ibiti, hirya hari amatara ari kwaka.

Umuhanda w'ibinyabiziga ugabanyijwemo kabiri n'ibiti biteye hagati, umuhanda umwe urimo umuntu utwara igare, undi muhanda urimo moto, imodoka.

Imihanda ibiri y'ibinyabiziga ijya ahantu hatandukanye, ifite amatara yo ku kumuhanda, hagati mu muhanda w'ibibinyabiziga, harimo aho abanyamaguru bambukira.

Imihanda ibiri ijya ahantu hatandukanye irimo ibinyabiziga imodoka, moto, aho abanyamaguru bambukira n'amatara ari kwaka.

Umuhanda w'ibinyabiziga, urimo moto zitwaye abagenzi ziri kugenda, hagati harimo jaride iteyemo indabo, ku ruhande hari amatara yo ku muhanda n'ibiti byinshi.

Umuhanda w'abanyamaguru ufatanye n'uw'ibinyabiziga urimo moto zigenda, n'amagare aparitse ku ruhande n'insinga ziyobora amashanyarazi.

Imihanda ibiri y'ibinyabiziga, igabanyijwemo na jaride iri hagati yayo, iteramo indabo zitandukanye, umwe urimo abanyamaguru bari kwambuka, aho bambukira. Undi urimo ibinyabiziga harimo moto n'imodoka, ku ruhande hari amatara.

Umuhanda w'ibinyabiziga, urimo abamotari bagiye kunyura munsi y'ikiraro, umumotari umwe ahetse umugenzi, abandi bafite moto zitariho abagenzi. Ku ruhande hariho itara ryo ku muhanda, ndetse hateye n'indabo.

Imihanda ibiri ijya ahantu hatandukanye, umwe urimo ibinyabiziga harimo imodoka itwara ibintu, inyuma yayo hari n'indi modoka ntoya itwara abagenzi, ku ruhande kunzira y'abanyamaguru hagaze abantu undi aricaye.

Umuhanda w'ibinyabiziga urimo imodoka ebyiri zitandukanye na moto imwe ihetse umugenzi, ku ruhande rwawo hari amatara, ibiti n'aho abagenzi bagenewe kwicara bategereje imodoka zibatwara.

Umuhanda wubakishije amapave, hagati harimo umuntu uri kugenda, kumpande z'uwo muhanda zombi iburyo n'ibumoso, hateye ibyatsi bisa icyatsi, birimo ibiti.

Inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'inzugi zifite ibaraya gusa umweru n'ibirahure by'umukara hasi hari amakaro ifite ibyumba bikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda.

Umuhanda w'ibinyabiziga ufite aho abanyamaguru bambukira, harimo moto ziri kugenda ku ruhande hari ibyapa byamamaza na kamera zo kumuhanda.

Umuhanda unyura munsi y'ikiraro urimo ubwoko bw'ibinyabiziga bitandukanye imodoka, igare na moto, ku ruhande rw'uwo muhanda hari inzira y'abanyamaguru irikugenderamo abagore babiri.

Umuhanda w'ibinyabiziga, unyura munsi y'ikiraro, urimo imodoka zitandukanye, harimo itwara ibintu, n'indi itwara abagenzi, n'igare rihetse akabati.

Imihanda ibiri ya kaburimbo ijya ahantu hatandukanye irimo ibinyabiziga hagati hateyemo indabo n'ibiti kuruhande hari amatara.

Aho abanyamaguru bambukira, n'umuhanda w'ibinyabiziga, urimo moto, imodoka, n'amatara yo kumuhanda, na kamera ifotora imodoka zarengeje umuvuduko.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga, moto ihetse abagenzi, igare n'imodoka zitwara ibintu. Uri hagati y'ibiti n'inyubako, kuruhande hari inzira y'abanyamaguru.

Ikona rikata rijya mu muhanda w'ibinyabiziga, urimo imodoka itwara ibintu, ku ruhande hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wi'ibinyabiziga urimo moto n'imodoka ziri kugenda hagati hari jaride ishinzemo amatara yaka n'ijoro kuruhande hari inzira y'abanyamaguru ihagazemo umuntu.